Abaturage baje gushaka ayinite, no kohereza amafaranga, bibafasha mu kohereza no kwakira amafaranga mu buryo bworoshye, bitabasabye kwirirwa bagendagenda, bagiye kuyafata ahantu henshi hatandukanye.

Umucuruzi w' amayinite wambaye akajire ka emutiyeni ndetse uri imbere y'igisanduku cy'umuhondo, bifasha abaturage mu kohereza amafaranga bari ahantu henshi hatandukanye.

Abantu, bicaye mu mitaka ya Eyateli, bari gucuruza amayinite kugira ngo bohereze amafaranga mu bice by'ibihugu bitandukanye, byorohereza abaturage mu kubona amafaranga, no mu gukomeza imirimo yabo ya buri munsi.

Amapave meza ndetse yubatseho kiyosike MTNndetse hirya hari n'iya Airtel zifasha abaturage mu kohereza amafaranga kugira ngo boroshe ubuzima.

Kiyosike ya airtel irimo umugabo wambaye ishati y'umweru ndetse hari n'umukiriya waje kohereza amafaranga cyangwa se kugura amayinite, kugira ngo bimworohereze kuyageza ku bayakeneye.

Kiyosiki ya MTN n'iya Airtel irimo abantu batanga amayinite, bayohereza ahantu hatandukanye ndetse bakoheza n'amafaranga. Bibafasha kwiteza imbere no guteza imbere imiryango yabo.

Umugabo ufashe ilisiti igaragaza ibiciro byo kohereza amafaranga kuri MTN no kubitsa no kubikura. Bifasha abakiriya ba MTN kutibwa amafaranga bayibwe n'aba ajenti.

Abakozi ba Airtel, bambaye imyambaro y'umutuku, harimo wambaye ikoti ry'ubururu ndetse babyukiye mu kazi, gufasha abaturage, baaha simukadi ndetse babaha n'amaterefone kugira ngo babone uko bajya mu kazi, biteza imbere.

Wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umweru n'inkweto z'umukara ,ari ahantu hari intebe ndetse hubatse n'inzu iteye irangi ry'umuhondo, yanditseho ngo money agent, ngo ni umuntu wohereza amafaranga ndetse harasa nkahari boutique.

Abagabo, abagore, abasore n'abakobwa bamanitse udutoki bishimye, bari mu nzu iteye irangi ry'umuhondo ndetse isa neza, basa n'aho bari bari mu nama, bayumvise neza baranahura, baranasabana.

Abaturage bari kwanika ibigori kugira ngo byume babijyane ku ruganda rusya ibigori, babivanemo akawunga kugirango babone amafaranga yo guteza imbere ndetse babone n'amafaranga yo kurihera abana ku ishuri.

Abaturage bari mu mirima yabo y'umuceri baje kuwusarura, kugira ngo babone uburyo bawutonoza bawugurishe, babone amafaranga yo kwishyurira abana ishuri, ndetse baniteze imbere, mu buryo butandukanye.

Umugabo wambaye ishati igiye gusa n'umweru, uri mu buhinzi bw'ibinyomoro bimufasha kwiteza imbere, no guteza imbere n'umuryango we akanabona n'amafaranga yo kurihira abana ku ishuri.

Mu itaburiya y'umweru imbere ye hariyo n'abagore, hariho n'uducupa rw'amazi asa n'ahari kubasinyisha baje gufata inguzanyo cyangwa se baje kubitsa amafaranga kugira ngo biteze imbere mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abagabo bane bari ku kiyaga umwe wambaye ishati y'ubururu, undi yambaye umweru undi yambaye akajire gatukura, ndetse hari n'undi uri guca inyuma yabo ikindi bari hafi y'ikiyaga gitanga umwuka mwiza kigakurura imvura bakakirobamo n'amafi.

Abantu babiri bari imbere y'abaturage umwe yambaye ishati y'igitaka undi yambaye ikoti ryiza, bari mu igikorwa cyo gutanga icyemezo cy'ishimwe ku muntu wakoze neza bibafasha kugira ngo n'abandi na bo barusheho gukora neza cyane.

Inteko y'abaturage iteranye yicaye mu mucaca no munsi y'ibiti, iri kwita ku bibazo bafite mu mudugudu kandi abaturage bari kubyumva neza kandi bagashyigikirana mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugabo ufashe mikoro y'umukara, wambaye nitaburiya y'umweru, ahagaze imbere y'agatuti k'umweru ndetse n'inyuma hakaba ari umweru, ari kuganiriza abaturage ku buryo bakwitwara n'uburyo wakwizigamira.

Inyubako nziza iteye irangi ry'umweru isakajwe n'amabati atukura, yubakishijwe n'amatafari ahiye, ni inyubako ya SACCO, aho abaturage bazigamira amafaranga ndetse bakanayaguza kugira ngo baje gukora ibikorwa byabo bitandukanye.

Abaturage bane bari mu myaka yabo bari kuyisarura kugira ngo bayigeze mu rugo banabone uko bayigurisha biteze imbere, bateze imbere imiryango yabo, babona amafaranga bayishyurira abana babo.

Inzu nini iriho intebe nyinshi nziza zitukura ndetse n'imitaka myiza itukura y'abantu bicaramo mu gihe bari gufata icyo kunywa ndetse bakanasabana, bagateza imbere na bare yitwa mahoro.

Bare nziza, irimo ameza atukura ndetse iteye ubwuzu, irimo amabara menshi y'umutuku n'amatara amurika neza, ikurura abaje kuyinyweramo bagasiga amafaranga bakinjiriza nyirayo

Inyubako nziza yubatse neza irimo amarangi meza n'ibishushanyo byiza, ndetse bayinyweramo n'inzoga cyangwa se n'ibindi mu gihe baruhutse, basoje akazi ndetse ikaninjiriza nyirayo amafaranga.

Teremusi yegereye ikibuni idufasha gushiramo igikoma, icyayi kugirango kidakonja ndetse tukayifashisha mu gihe tugemuriye abarwayi kwa muganga kugirango tubageze ibyo banywa n'ibyo barya.

Inzu y'ubucuruzi icuruza ibintu bitandukanye harimo: umuceri, akawunga, ifu y'igikoma bombo, amagi ndetse n'ibindi bintu bitandukanye.

Amavuta yitwa Amara yisigwa n'abantu benshi batandukanye harimo abagabo, abana n'abakecuru n'abasaza, ibafasha gu gusa neza guhumura neza ndetse no kunyura ahantu hahumura neza.

Icupa harimo ibintu baba bakoze mu mafi kugira ngo babike ayo mafi igihe kirekire ataboze, atangiritse bigatuma amara igihe kirekire muri ibyo bikoresho baba bayashizemo.

Inzu bacururizamo icururijwemo ibintu byo kunywa harimo: inzoga, amazi, fanta, bituma nyirayo yiteza imbere agateza imbere n'umuryango we akabona amafaranga yifashisha mu buzima bwa buri munsi.

Intebe z'ubururu n'icyatsi n'amabase y'umutuku n'amapave n'imodoka nziza, hari n'inzu yubakishije iteye n'irangi.

Irushe ifite udupfumure bayifashisha mu gihe bari kwarura ifiriti ndetse n'ibindi biryo bitandukanye kandi ikoreshwa ahantu henshi, mu mahoteli, mu rugo ndetse n'ahandi.

Inzu y'ubucuruzi icuruza amazi, ji ndetse n'ibindi binyobwa, bifasha nyirayo kwiteza imbere ndetse akabona amafaranga yo guhahira urugo no guteza imbere, umuryango we.

Umugabo uri mu nzu y'ubucuruzi no gucuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo ibikoresho byo mu rugo ndetse n'ibirungo byo kwifashisha mu guteka kandi na we bikamufasha kwiteza imbere.

Inzu y'ubucuruzi bacururizamo icyayi, imikate n'amata iteye irangi ryiza ry'umweru ifasha abaturage gushaka amafaranga mu kuza kwaywera icyayi no kuharira.

Siripa zitwa umoja, zifite amabara y'ubururu n'umutuku, abantu barazambara, bazifashisha mugihe bari koga, mu mugihe bagiye ahantu ha hafi ndetse no mu gihe bageze mu rugo.

Abapadiri benshi cyane bahagaze imbere ya kiliziya, basa neza bambaye ibishura by'umweru, ndetse bibafasha mu gihe bari kuvuga ubutumwa imbere y'abakristu.

Abantu benshi bambaye imyenda myiza ndetse hari n'umuntu umeze nk'umupadiri wambaye akagofero babyukiye mu kiliziya, baje gusenga kugira ngo biyunge n'Imana, basenga Imana inabafashe mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Abaturage bari mu cyumba kinini cyane ndetse batatanye basa n'aho baje gusenga biyambaza Imana kugira ngo izabafashe ijye ibafasha buri munsi.

Abantu bari mu cyumba kiza giteye irangi ryiza ry'umweru, bameze neza basa neza, bari kugenda bafata udukombe kuri serivisi banywa kugira ngo bice icyaka ndetse bakomeze n'akazi kabo.

Inzu yubatse neza, ikikijwe n'indabo nziza, ndetse iteye irangi ry'umweru, irimo n'amatara arabagirana, harimo n'irangi ry'umuhondo, ni heza harasa neza.

Abaturage baje mu rusengero baje gusenga, urusengero rwubatse neza, rwakishije amatafari ahiye, barimo barasenga biyambaza imana kugira ngo ijye ibafasha mu mirimo yabo ya buri munsi.

Umugabo munini wambaye ibishura kimwe cy'umutuku kimwe cy'umweru n'umukara ndetse ufashe inkoni uhagaze imbere y'inzu iteye irangi ry'umweru ndetse ni nk'umupadiri.

Abaturage bagiye gusenga bari imbere ya padiri ,arimo abaha ukarisitiya umubiri wa yesu, kugira ngo ba bumve bameze neza basangire ,ndetse banasabana mu gihe bari mu kiliziya.

Urusengero rusa neza ruri kubengerana, rurimo abakirisitu baje gusenga, inyuma, rusa rufite ibara ryiza, ruteye n'irangi ryumweru ndetse rubereye ijisho.

Abaturage bari muzu nini isa neza iteye irange ry'umweru ndikubonamo n'abadaso basa naho baje gucunga umutekano cyangwa se bari mu gikorwa cyo kubwira abaturage uburyo bagomba kwitwara no kurwanya ibizazane.

Urusengero runini ruteye irangi ry'icyatsi, ndetse rusa neza rufite n'inzugi z'umweruru, rufasha abaturage kuza kurusengeramo, kugira biyambaze imana bayisenge izabafashe, mu buzima bwabo bwa buri munsi.

Umugore wambaye ishati y'umukara afite n'umusatsi w'umukara uri mu iduka ricuruza inzoga bikamwinjiriza amafaranga akiteza imbere, agateza imbere umuryango we ndetse n'abaje kubamo bakaza bagasabaniramo.

Icyumba cyiza giteguye neza, kirimo amabara abereye ijisho, ndetse giteye n'irangi ry'umweru, kirimo ikitanda gishasheho amakuvureri y'umweru, ndetse gifite n'umusego ugiye gusa umukara kiriho n'intebe nziza.

Inzu nziza isakaje amabati iteye n'indabyo ku ruhande ikikijwe n'ibyuma harimo na pisine ifasha abantu mu gihe bari koga kwimenyereza koga.

Ahantu heza hasa neza, habereye kuruhukira, hasa n'aho hategurwa na hoteli, ndetse hakurura abantu bakaza kuharyama, kuharuhukira, ndetse no kumera neza.

Inyubako nziza iteye amabengeza, iteye n'irangi ry'umweru isa n'aho ari hoteli abantu bajyamo mu gihe bananiwe cyangwa se bajya gufatiramo amafunguro kandi bigafasha n'abaturage mu gufata igihe cyabo batagitakaza mu bindi.

Umucaca mwiza wegeranye na pisine abantu bogamo igihe bagiye kuruhuka mu mpera z'icyumweru, bituma baruhuka bakazasubira mu kazi bameze neza ku munsi wa mbere w'akazi,

Intebe nziza bakunda kwita amadive, ziri mu cyumba cyiza, giteye irangi ry'umweu, hariho televiziyo abantu tureba mu gihe dusoje akazi, mu gihe cyo ku mugoroba ndetse bikadufasha no kuruhuka.

Umukobwa wicaye ku ntebe ufite n'umusatsi w'umukara n'undi waje kumuha ibyo yasabye, ni ahantu muri hoteli aho batangira serivisi zo guha abantu ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'aho kuryama.

Ibiryo byiza, bitetse neza, harimo inyama, amakoroni, biri mu bisuperi byiza, ndetse bitekwa na hotel bakabigurisha abakiriya baje kurya muri iyo hoteli, ndetse byubaka n'umubiri.

Abaturage bari mu isoko ry'imbuto n'imboga, harimo bacuruza inyanya, karuti, intoryi ndetse n'imboga rwatsi, bibafasha kubona ibyo kurya muburyo bworoshye.

Isoko rinini cyane ryabyukiyemo abaturage baje gucuruza ibintu byinshi bitandukanye. Harimo: ibirayi, amakara, imboga, amashu ndetse n'ibindi biribwa.

Isoko ricururizwamo ibintu bitandukanye, harimo nk'umuyu, isukari, umuceri ndetse n'amavuta yo gutekaka n'ayo kurya, bifasha abaturage, kwiteza imbere no kubona aho wahahirira mu buryo bworoshye.

Icyumba cyiza cya hotel gisa neza, kiriho intebe nziza, gifasha abaturage mu kuza gusabana no gusangira, barimo barya kugira ngo basubire ku kazi banakihutishe, banagakore badakerewe.

Inzu nziza iriho intebe nziza, ameza, ameze neza, aho bategurira amafunguro bakayaha abakiriya, hasa naho hari muri hoteri, kugira ngo, abakiriya bibashimishe, kandi binabanezeze.

Abatwazi ba moto benshi cyane bari mu marushanwa bambaye imyambaro y'icyatsi, ndetse bari mu muhanda wa kaburimbo mwiza, hirya hari n'ibyatsi byiza hari n'ibiti hari n'amapironi y'amashanyarazi kandi ni heza cyane.

Abagore babiri bicaye ku igare n'umusore umwe ubatwaye wambaye agafukamuwa k'ubururu na bo bakaba babwambaye, begereye ibishyimbo byiza bigeze mu gihe cy'igishogoro.

Umumotari wambaye ipantaro y'umweru, wambaye n'akajiri, gatukura n'ingofero itukura, ufite moto, ari kumwe n'umukozi wa moto, ari kuyimurebera niba, ifite ubuziranenge kugira ngo itaza kugera mu muhanda, igakora impanuka.

Umupolisi wambaye imyambaro y'akazi ahagaze imbere y'abamotari arimo abagira inama mu buryo bakwitwara kugira ngo bagabanye impanuka zo mu nzira zituma tubura abantu.

Umumotari utwaye umugenzi wambaye ishati y'umweru n'amabara y'umukara wambaye n'ipantaro y'ubururu n'inkweto z'umutuku, amuvanye ahantu hamwe amujyanye ahandi.

Umumotari utwaye umugenzi wambaye kasike bombi z'icyatsi, ari gutwara neza ari muri kaburimbo isa neza ndetse bose basa neza bambaye ipantaro z'ubururu.

Uhanda wa kaburimbo mwiza urimo abamotari batwaye abagenzi, babavana, ahantu hamwe babajyana ahandi, ufasha abantu bose mu gutwara ibintu n'abantu, kugirango ngo biteze imbere.

Umuhanda wubakishijwe amabuye, urimo umuhungu wambaye umupira w'umukara wanditseho, ndetse ari gusunika igare, no hirya hakaba hari imodoka, hari n'amazu meza y'ubucuruzi, akaba abafasha abaturage, kwiteza imbere.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari umwe ari kugenda, ufasha abaturage mu gutwara ibintu n'abantu, ndetse kugira ngo babigeze ku masoko, byihuse bitabatwaye igihe kirekire.

Umumotari w'umukobwa wambaye kasike y'icyatsi ari mu muhanda ategereje abagenzi kugira ngo abatware abavanye aho ari akabajyana ahandi, bimufasha kwiteza imbere mu buzima bwe.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari utwaye umugenzi ndetse umwe yambaye kasike itukura undi yambaye kasike y'icyatsi. Ndetse uyu muhanda ufasha abaturage mu kujyana ibintu n'abantu babivana ahantu hamwe babijyana ahandi.

Umuhanda wa kaburimbo urimo umumotari umwe, inyuma yaho hari n'inzu nziza, imeze nk'urusengero yubakishijwe amabati atukura, ateye n'irangi ry'umweru, hakaba hakikijwe n'ibiti byiza, bitanga umwuka mwiza.